Abafite ubumuga butandukanye nabo bahabwa ubufasha, burimo nko kuvurwa no gukurikiranwa umunsi ku munsi dore ko leta y'u rwanda yateje imbere cyane abantu bafite ubumuga kugira ngo nabo bahabwe agaciro nk'undi muntu uwo ari we wese.

Hari igihe umuntu aba nta mbaraga afite, cyangwa se akaba akariye, bigatuma agwa igihumure. Bityo hifashishwa ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo agarure akuka.

Abantu baba mu muryango wa Croix Rouge ni bamwe mu bafasha kandi bagatanga inyunganizi ku barwayi bahuye n'ikibazo kihuse cyangwa kidateguje, aho bahita bamufasha mu gutabara amagara ye bakamugeza kwa muganga byihuse cyangwa bakabasha kumuvura kuko baba barabyigiye.

Imodoka y'imbangukiragutabara ishinzwe kureba abarwayi barembye cyane maze ikabihutisha cyane ikabajyana ku bitaro bikuru kuko hari igihe usanga ku bigo nderabuzima byananiranye bikaba ngombwa y'uko umurwayi bamwimurira ku bitaro bikuru kugira ngo bamukurikirane ubuzima bwe butajya mu kaga akaba yapfa.

Inyubako zo kwa muganga ziba ziherereye mu bice bitandukanye. Hari inyubako abarwayi bisuzumishirizamo, hari inyubako abarwayi bafatiramo imiti, hari inyubako abarwayi bahererwamo ubujyanama bwihariye. Izo zose ziba zitegeranye ariko ziri ahantu hamwe kandi ziba zigize ikigonderabuzima kimwe.

Buri bigonderabuzima na buri bitaro bikorera hano ku butaka bw'u Rwanda, igomba kwifashisha imbangukiragutabara, igihe bagize ikibazo cy'umurwayi ukeneye ubufasha bwihuse kugira ngo habeho kumujyana ku bindi bitaro bikuru bihite bimuvura ku buryo bwihuse.

Igihe umuturage yarembye cyane ntago ari ngombwa kurindira imbangukiragutabara kugira imujyane ku kigonderabuzima, ahubwo abaturage bo ubwabo bagomba kwishakamo ibisubizo bagahita bamujyana kwa muganga ako kanya bifashishije nk'impetso ya gakondo cyangwa ingobyi maze bagahita bamutwara ubundi imbangukiragutabara ikaza kubunganira bamugejeje ku bitaro.

Abaganga bakora ku bigo nderabuzima, baba bari mu bwoko butandukanye. Hari abavura abantu bisanzwe, hari aba baga abantu barwaye indwara zitandukanye zirimo n'inyama zo mu nda cyangwa mu bice by'ubwonko, hari abashinzwe kugira abantu inama, n'abandi bakora ubushakashatsi.

Ku bigo nderabuzima uhasanga imbaga y'abaturage baje kwivuza, bityo bigasaba yuko abaganga bifashisha ubufatanye hagati yabo kuko umuganga umwe atabasha kubavura. Muganga umwe araza akajya abandika, undi na we akabahereza imiti kugira ngo babashe kwihutisha ubufasha.

Buri tariki zirindwi mata za buri mwaka mu gihugu cy'u Rwanda hibukwa abazize jenoside yakorewe abatutsi, mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo kenda na kane kugira ngo bitazasubira ukundi kandi n'abantu bakiri batoya babashe gukura bazi amateka Igihugu cyaciyemo.

Kwa muganga haba ibyumba byagenwe dusangamo ibitanda, ku buryo bakira abarwayi baba barembye cyane, batabasha gusubira mu rugo, ubundi bakajya bavurwa baba kwa muganga kugira ngo bakurikiranwe kandi babashe gukira.

Mu nyubako kwa muganga dusangayo ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa yifashishwa n'umuganga kugirango ngo ayibikemo amakuru y'abarwayi cyangwa ayikoreremo ubushakashatsi abashe kumenya umuti uvura umurwayi kugira ngo akire kandi asubire mu rugo ameze neza.

Mu bitaro kwa muganga usanga harwayemo abarwayi b'ingeri zitandukanye barimo abagore, harimo abagabo, urubyiruko n'abasore kuko buriya impanuka mu buzima ntago ziteguza niyo mpamvu umuntu wese ashobora guhora yitwararitse kugira ngo ataba yakwishora mu byago byatuma ubuzima bwe buzahara.

Umuganga ashobora kwifashisha ibikoresho bitandukanye igihe ari kuvura umurwayi, harimo nk'imashini za mudasobwa abikamo amakuru y'abarwayi, cyangwa agakoraho ubushakashatsi bujyanye n'imiti agomba kuvurisha umurwayi, waje kwivuza aho kwa muganga.

Kwa muganga tuhasanga ibitanda bitandukanye. Biryamaho n'abarwayi barembye cyane, bityo bagacumbikirwa kwa muganga, kugira ngo babashe kwivuza bahacumbikiye, ubundi bazasubire mu ngo zabo barakize.

Ubuyobozi bw'u Rwanda bwateje imbere cyane ubuvuzi mu rwego rwo kwita ku buzima bw'Abanyarwanda kuko bongereye umubare w'abaganga maze bakafatanya kugira ngo bavure abarwayi batandukanye baboneka mu bice haba mu ntara no mu mijyi hano mu Rwanda.

Kwa muganga ukihagera uhasanga umubare munini w'abaturage baje kwivuza kuko baba barwaye indwara zitandukanye zirimo malariya, impiswi ,umutwe n'izindi. Rero bisaba abaganga yuko bakorana, bagafashanya kugira ngo babashe kubakira mu masaha make cyane.

Kwa muganga tubasanga uburiri butandukanye bwifashishwa n'abarwayi kuko hari abarembera kwa muganga bityo ntibabashe gusubira mu ngo zabo bikaba ngombwa y'uko bavurirwa kwa muganga ari naho bari bagakurikiranwa kugira ngo babashe gukira vuba.

Mu masaha yo ku gicamunsi kwa muganga uhasanga umubare munini w'abaturage baba baje kwivuza indwara zitandukanye bityo ubuyobozi bw'igihugu bugomba kongera umubare w'abaganga kugira ngo bajye babakurikirana babashe no gusubira mu rugo gukora imirimo yabo.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kijya gitegura igikorwa cyo gufata amaraso abaturage babyifuza ubundi bakazayifashisha bavura abandi barwayi bayakeneye, iki gikorwa cyo gutanga amaraso kitabirwa n'abantu benshi cyane kuko umuntu agomba gufasha abandi barwayi baba bakeneye amaraso.

Abaturage bajya kwa muganga iyo bategereje abarwayi bicaye ku ntebe zabugenewe bashobora guhabwa ubujyanama n'abayobozi b'ibitaro, bababuza gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha kuko byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Bakabashishikariza kugira isuku ndetse no kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo batanduriramo indwara zitandukanye zirimo na SIDA.

Amubaza indwara arwaye, umuturage akamubwira, muganga akamuhereza ifishi akandikaho amazina ye n'indi myirondoro, ubundi bakamwohereza ku wundi muganga uri bumusuzume, ubundi akabona guhabwa imiti kugira ngo asubire mu rugo.

Kwa muganga uhasanga abarwayi batandukanye yaba abagabo n'abagore baba baje kwivuza, ariko nanone inzego z'ubuyobozi zifatanyije n'abanyamahanga n'abashoramari bafatanya mu guteza imbere imibereho myiza bita ku baturage batuye igihugu cy'u Rwanda.

Hari amazu akorerwamo ubushakashatsi bwo kuvumbura indwara zitandukanye no kumenya ikibyihishe inyuma kugira ngo zibeho aho barebera hamwe udukoko dutera izo ndwara maze bagaherako bashaka n'umuti wo kuzivura.

Hari amazu yihariye akorerwamo ubushakashatsi n'abaganga cyangwa ababyigiye, bayifashisha mu gushaka udusimba dutera indwara runaka, cyangwa se mu kuvumbura umuti uvura indwara runaka. Abantu bakunze kubikora ni abize ibijyanye n'amasiyansi, aho bagira aya mazu nyine aba arimo ibikoresho byabugenewe, bifashisha bakora ubushakashatsi.

Amaso y'umuntu abasha kubona ibintu biri hafi ni yo mpamvu mu mazu akorerwamo ubushakashatsi kwa muganga cyangwa mu bigo by'amashuri usanga imashini z'ikoranabuhanga zishinzwe kureba kure cyane kugira ngo bitegereze mu bipimo bafashe umurwayi, barebe niba harimo udukoko dutera izo ndwara ubundi babone n'uko bamuha imiti imuvura.

Hari abanyeshuri biga iby'ubuganga bwaba ubw'abantu n'ubw'amatungo, birirwa bakora ubushakashatsi kugira ngo bavumbure udukoko dutera indwara zitandukanye, zirimo na malariya cyangwa se imitezi.

Hari ibyumba byabugenewe bikorerwamo ubushakashatsi, aho usanga abantu biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, barimo barapima bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo babashe kubona impamvu itera ikibazo runaka. Aha twavuga ko ibyo byumba byifashishwa nko mu guhiga imiti ivura indwara zananiranye.

Abantu bakora ubushakashatsi ku bigo by'amashuri, kwa muganga cyangwa mu nganda, biba ngombwa yuko bifashisha indebakure, ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo babashe kwitegereza twa tunyangingo dutoya, tutaboneshwa n'amaso y'umuntu.

Hari igihe umugore biba ngombwa yuko abyara abana babiri b'impanga. Ntabwo ari akazi kaba koroshye kubonsa no kubarera kugeza bakuze. Bimusaba guhora abitayeho umwe akamuha ibere rye n'undi akamuha ibere. Bene uwo mugore kandi yunganirwa na leta bakamuha ibirimo imfashabere.

Abana batoya bagomba guhabwa igikoma cyo kunywa, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bakure neza. Ibi bakabikorerwa buri gitondo, cyangwa se na buri nimugoroba, byibuze inshuro ebyiri ku munsi.

Abana batoya nabo bagomba kwitabwaho, niyo mpamvu inzego z'ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda, bafatanyije n'ababyeyi b'aba bana n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, babasura maze bakareba uko bitwara, kandi bakabagenera ubufasha burimo kubaha ibishushanyo bitandukanye, bazajya bakoresha mu kwiga bityo bakagira ubumenyi.

Ku kigo nderabuzima uhasanga inzu zivura abarwayi, ariko ugasanga nahoho ababyeyi babyarira kugira ngo babashe kwitabwaho bikomeye cyane, bityo basubire mu rugo bameze neza kandi n'abana babyaye bagende bafite ubuzima bwiza.

Umwana akiri mutoya ntaba ashoboye kurya cyangwa kunywa ibindi bintu uretse konka amashereka yonyine ya nyina, biba ngombwa yuko umwana akuzwa n'amashereka kugeza igihe ageze igihe cyo gutangira kurya ku biryo no kunywa ibinyobwa. Ababyeyi bagomba kurya indyo yujuje ibisabwa byose, kugira ngo bonse abana neza.

Ababyeyi bafite abana bakiri batoya bajya babajyana ahantu habugenewe maze abana bagatekerwa ifunguro ryiganjemo ibikungahaye kurinda umubiri, gutera imbaraga ndetse no kurinda indwara mu mubiri.

Ubuzima bw'abana batoya buba bugomba gukurikiranwa kugira ngo umuntu amenye niba nta ndwara barwaye kuko baba bataramenya kuvuga cyangwa bafite ubwenge ku buryo babyerekana, ni yo mpamvu ababyeyi bagirwa inama zo kujyana abana babo kubasuzumisha kwa muganga byibuze kabiri mu kwezi.

Abana ni abantu bafata vuba cyane ni yo mpamvu mu mashuri bigamo usanga abakiri batoya ikintu babigishije bahita bagifata ntibapfe kukibagirwa, abana barubaha cyane usanga iyo bari mu ishuri bamanika ukuboko bashaka gusubiza mwarimu wabo igihe ababajije ikibazo.

Abagore batwite bubakiwe inyubako zabugenewe bagomba kubyariramo abana, kugira ngo babashe kwitabwaho ku buryo bworoshye, kandi n'abana babo bavuke neza bityo bazakure bafite ubuzima bwiza.

Ababyeyi bubakiwe inzu zo kubyariramo. Zirimo kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aho babasha kwibaruka bitabagoye. Niyo mpamvu Igihugu cy'u Rwanda gishishikariza abagore bose ko bajya babyarira kwa muganga kugira ngo babashe kwitabwaho kandi n'ubuzima bw'umwana babyaye bukurikiranwe neza.

Abana benshi bicaye ku musambi uri mu twatsi, bafite amasahani ariho ibiryo, bambaye n'inifomo kandi ni abahungu n'abakobwa.

Inzego zishinzwe umutekano abayobozi b'ibigo nderabuzima, ndetse n'ibigo mpuzamahanga birimo na UNICEF ikigo gishinzwe kurengera kandi kikita ku buzima bw'umwana akiri muto, ni bamwe mu bafatanya umunsi ku munsi, kugira ngo umwana yitabweho haba mu bujyanama ndetse no mu kugira ubuzima bwiza.

Abana bakiri bato bakunze kwibasirwa n'indwara zitandukanye, niyo mpamvu ababyeyi babo basabwa kubajyana kwa muganga kugira ngo abana baterwe inkingo kandi ubuzima bwabo bukurikiranwe, batazagira ikibazo bikaba byabaviramo ingaruka zirimo no kudakura neza.

Mu rwego rwo kwita ku mikurire y'abana bakiri batoya, ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda bwashyizeho ubukangurambaga bushinzwe kugera mu baturage mu Midugudu aho batuye ubundi bakabatekera ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri ndetse n'igikoma cyo kunywa ubundi bakakibaha kugira ngo bigishe n'ababyeyi kujya bategura aya mafunguro mu ngo zabo, ubundi bayagaburire abana bagira ubuzima bwiza.

Amata ni ikinyobwa cy'ingenzi cyane ku bana bakiri batoya kuko abarinda igwingira kandi akabafasha mu mikurire yabo, umwana agashisha kandi akagira uruhu rutoshye, ni ngombwa rero guha umwana amata inshuro nyinshi byibuze kabiri ku munsi.

Ubuzima bw'abana bakiri batoya cyane impinja ziri munsi y'imyaka itanu buba bugomba gukurikiranwa umunsi ku munsi kugira ngo umwana ataba yakwibasirwa n'indwara zitandukanye zirimo nk'imbasa, bityo bakamujyana ku mujyanama w'ubuzima kumusuzumisha inshuro nyinshi cyangwa se bakamutwara no kwa muganga bamusuzumisha.

Imiryango abantu batuyemo iyo umuntu ari kwizihiza umunsi w'amavuko, usanga abantu baje kwifatanya na we bamuzaniye n'indabyo kugira ngo abashe kugira ibyishimo kuri uwo munsi, maze nawe abone ko ari abantu bamukunda kandi bamwifuriza iterambere.

Abayobozi bajya bategura igikorwa k'inama bagahura n'abantu bakuze biganjemo abasaza n'abakecuru bakabaganiriza ku kijyanye no kugira ubuzima bwiza bw'imitekerereze, babashishikariza gusoma ibitabo ndetse no gukina imikino itandukanye irimo kuganira na bagenzi babo batera urwenya kugira ngo badaheranwa n'agahinda.

Hari abantu bibasiwe kandi bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho basabwa kujya kwa muganga bakabagira inama kandi bakabitaho kugira ngo babashe kugaruka mu murongo muzima, ubundi na bo bakore ibiteza imbere babashe kugira ubuzima bwiza.

Hari ubukangurambaga butangwa n'ubuyobozi gihugu cy'u Rwanda burimo no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Aho abantu bagirwa inama kandi bagashishikarizwa kureka ibiyobyabwenge kuko hari n'abantu usanga byarabase kubivaho byarabananiye. Ubundi bakagirwa inama n'inzobere mu kuvura abantu bahuye n'ibibazo byo mu mutwe.

Hari ubukangurambaga bujya bukorwa n'urubyiruko bwo kurwanya ibiyobyabwenge ku bantu babikoresha kuko byangiza ubuzima bityo umuntu wese akwiye kwirinda kubikoresha. Ibyo biyobyabwenge birimo inzoga nka za kanyanga n'itabi ririmo urumogi n'ibindi.

Abaganga ni bamwe mu bantu bafasha abaturage bahura n'ibibazo bijyanye n'imitekerereze yo mu mutwe babinyujije mu kubagira inama zirimo kuryama neza bakaruhuka kandi amasaha ahagije, gusoma ibitabo ndetse no gukunda imyidagaduro cyane kandi bagakora n'imyitozo ngororamubiri.

Tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe duhamagara ku murongo wigihumbi na makumyabiri na kane kugira ngo tubashe guhabwa ubufashashwa, kandi tugomba no kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge kuko byangiza ubuzima bwo mu mutwe.

Inzu igurisha imiti, yegereye umuhanda kandi bigaragara ko ifite isuku kubera ko abarwayi bataza kwivuriza ahantu hadafite isuku.

Inzu zicuruza imiti ivura abantu zizwi nka farumasi mu ndimi z'amahanga, zitanga uruhare rukomeye cyane kubera ko zunganira ibigo nderabuzima n'ibitaro mu kuvura abaturarwanda, bityo abantu bose bashishikarizwa kwivuriza kwa muganga cyangwa muri izi nzu kuko ziba zarahawe uburenganzira n'ikigo gishinzwe gutsura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa mu Rwanda.

Imiti ivura abantu ntabwo tuyisanga ku bigo nderabuzima no ku bitaro gusa, ahubwo hari n'abantu bikorera ku giti cyabo bacuruza imiti ivura abantu, ikigo gishinzwe ubuvuzi hano mu Rwanda no kugenzura imiti bakoresha cyahaye uburenganzira abikorera ku giti cyabo kujya bacuruza iyi miti kugira ngo bunganire ibigo nderabuzima n'ibitaro.

Hari amazu acuruza imiti itandukanye ivura abantu kugira ngo batibasirwa n'indwara cyangwa zikaba zabahitana, usanga akorera hirya no hino mu migi, yaba no mu nkengero na ho akorerayo.

Amazu acuruza imiti yo kwivuza azwi nka farumasi mu ndimi z'amahanga. Afasha abantu benshi cyane mu rwego rwo kwivura indwara baba bafite kuko usanga bayagana kugira ngo bahabwe ubuvuzi. Hari abantu bamwe na bamwe batinya kujya kwa muganga bitewe n'indwara barwaye. Bakumva batayibwira abaganga ahubwo bakisanzura mu kuyibwira aba bacuruzi, bacuruza imiti bigenga kugira ngo babafashe.

Hari abaganga bigenga ku giti cyabo, bacuruza imiti yabugenewe ivura abarwayi, baba barabiherewe uburenganzira na Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho bacuruza imiti ariko bakaba bikorera kandi bakabona amafaranga.

Ibinini bivura umutwe igikomere cyangwa ibivura inzoka zo mu nda, ushobora kubisanga kwa muganga no ku bigo nderabuzima, ariko na none ushobora kubisanga mu mazu acuruza imiti yigenga, aba yarahawe uburenganzira n'ikigo gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti hano mu Rwanda.

Hirya no hino mu baturage hakorwa ubukangurambaga bugamije gushishikariza abantu ukuntu bagomba kwirinda indwara zitandukanye, zirimo iz'ibyorezo cyangwa izandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida.

Igikorwa cyo gushishikariza no kubwira urubyiruko kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo nk'indwara ya virusi itera SIDA, aho babazaniye n'abantu babasusurutsa, harimo abahanzi barimo Platini, bakunze guherekeza minisiteri y'ubuzima kwamamaza iki gikorwa. Barimo bafata n'amafoto aho byabereye cya Mazima muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare.

Minisiteri y'ubuzima ijya itegura ibikorwa bitandukanye, bigamije guhuza abantu b'ingeri zose, cyane ab'urubyiruko bafite imyaka mike kugira ngo babakangurire kwirinda indwara, zirimo na virusi itera sida.

Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kijya gitegura ibikorwa bitandukanye birimo gutumira abanyarwenya bagakina imikino itandukanye kugira ngo bereke ababakurikiye ibikorwa batagomba gukora kuko byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Iyi mikino bakina nubwo iba isekeje ariko iba igamije kwigisha abantu.

Leta na Minisiteri y'ubuzima, bajya bategura ibikorwa byo gushishikariza abaturage kurengera amagara yabo. Binyuze mu kubaha ubujyanama ndetse no kubahugura ku bijyanye n'ukuntu bakwirinda indwara, zirimo iz'ibyorezo n'izandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Hari amahugurwa y'ubukangurambaga bugamije kwirinda indwara zabangamira ubuzima bw'abaturage, ajya ategurwa ubundi akitabirwa n'abarimo igitsina gore, hagamijwe gushishikariza bagenzi ba, bo kwirinda indwara zirimo na virusi itera sida, cyangwa na kanseri y'inkondo y'umura yibasira abari n'abategarugori.

Hari amavomero rusange aba yarubatswe kugira ngo abaturage bajye babona amazi meza ndetse bajya bahabwa n'ubukangurambaga bw'ukuntu bakora isuku, bavoma amazi meza, bakoresheje ibikoresho byogeje, bityo bakabasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Mu rwego rwo guhashya no kurandura burundu indwara ya SIDA ndetse n'izindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ubuyobozi bw'u Rwanda butegura ibikorwa byo gukusanya abaturage maze bakabaha udukingirizo kugira ngo bajye badukoresha mu gihe k'imibonano mpuzabitsina, ubundi birinde indwara zanduriramo.

Hari igikorwa cya Leta kijya gitegurwa kikitabirwa n'abantu by'ingeri batandukanye, aho baba baje gufata imiti iri gutangwa, harimo n'udukingirizo two kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, abandi bagahabwa n'ubujyanama butandukanye, bw'ukuntu bakwirinda indwara mu buzima.

Hajya habaho ibiganiro bitandukanye byo kuganiriza abayobozi b'inzego z'ibanze, abanyeshuri ndetse n'abayobozi bakuru kugira ngo babigishe ingamba zo gukaza umutekano no guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda.

Ibimera gakondo birimo amapera, birimo amababi y'ibiti ndetse n'amakoma n'ibindi byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abarwayi, indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora, harimo ibicurane n'izindi.

Abaturage batuye mu bice by'icyaro bakunze gukoresha imiti gakondo bivura nk'iyo barwaye inkorora bakoresha ibyatsi by'umuravumba, ariko no mu mujyi barabikoresha cyane kuko hari abantu b'abahanga bazi gutunganya ibimera bakayibyazamo imiti maze bakayigurisha ku bantu kugira ngo bivure indwara zitandukanye zirimo n'amahumane yibasira ku ruhu rw'umuntu.

Imiti gakondo ikunda kuboneka ahantu mu byaro. Kubera ko mu mujyi, haba hubatse amazu menshi kandi hari n'imihanda bityo bigatuma iyo miti itaboneka.

Abaturage bari mu kigero cy'imyaka mikuru, bakunze kwivura bakoresheje imiti ya kinyarwanda, igihe bahuye n'indwara kuko bizera yuko ariyo ikiza umuntu ariko ntibatandukanye n'ukuri cyane kuko n'imiti tugura kwa muganga nayo iba yakozwe mu bimera gakondo.

Umuravumba ni ikimera gakondo ariko kivura indwara nyinshi cyane, zimwe mu ndwara kivura, harimo, inkorora, hakabamo ibicurane, hakabamo indwara zo mu muhogo n'izindi, ikindi umuravumba ukorwamo imiti itandukanye, irimo n'ibinini bikoreshwa kwa muganga.

Hari abakoresha ndetse bakanavura indwara bifashishije imiti gakondo, irimo nk'itabi ry'igikamba n'iyindi miti, aho bavuga yuko bashobora kuvura umuntu indwara zitandukanye zirimo n'amahumane.

Abaturage barwaye indwara zitandukanye bajya ku bigonderabuzima cyangwa bakegera inzu za gira ububuzima zashyizweho n'ubuyobozi bw'Igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kwimakaza isuku no kurwanya indwara ziterwa n'umwanda zirimo n'impiswi, aho bigisha abaturage gukora isuku y'ubwiherero, ibikoresho byo mu rugo n'ibindi.

Amata y'inka, amashunushunu y'ihene n'intama, ndetse n'ingurube, yifashishwa mu gukorwamo imiti, ivura abantu indwara zitandukanye, kandi ikabongera n'intungamubiri, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Aya mata ni meza cyane kuyaha abana, kuko bi bibafasha gukora neza.

Abaganga bafatanyije n'abakozi bakora ku kigonderabuzima, bafasha abaturage baje kwivuza babinyujije mu gusoma amazina yabo baba banditse ku mafishi bahawe, ubundi uhamagawe akagenda akavurwa agahabwa n'imiti agahita ataha.

Kwa muganga uhasanga abarwayi baje kwivuza, ariko uhasanga n'abaganga bambaye impuzankano zabugenewe bafite n'ikayi n'ikaramu zo kwandikamo amakuru y'abarwayi . Abaganga kandi bifashisha n'ibyuma by'ikoranabuhanga harimo nka za mudasobwa kugira ngo babashe gukora akazi kabo neza.

Hari inyubako zubatswe hirya no hino mu gihugu za girubuzima, aho zitanga ubujyanama ku bijyanye no kunoza isuku yo mu ngo aho abaturage batuye, yaba iyo ku mubiri ndetse no mu biribwa bityo bakabasha kwirinda indwara zitandukanye zirimo n'iziterwa n'umwanda harimo nk'impiswi.

Kwa muganga mu bitaro uhasanga ibitanda birenga nka makumyabiri, aho abarwayi babiryamamo kuko hari abaza kwa muganga barembye cyane, bikaba ngombwa yuko barwarira kwa muganga. Ibyo bitanda kandi biba bifite n'inzitiramibu, ku buryo imibu idashobora kurya umurwayi.

Ibitaro bya Nyagatare biherereye mu mujyi wa Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, akagari ka Nyagatare mu ntara y'ububurasirazuba, mu gihugu cy'u rwanda. Aho bitanga ubufasha butandukanye burimo kuvura abarwayi b'ingeri zose.

Nta muturage ugomba kurwarira mu rugo, agomba guhita ajya kwa muganga kugira ngo babashe kumufasha. Hirya no hino hagiye hubatswe ibigo nderabuzima bikoreramo abaganga bashinzwe gufasha abarwayi barwaye indwara, bityo buri wese ajye yihutira kujya kwa muganga bamufashe.

Mu rwego rwo kurushaho kunoza isuku mu Gihugu cy'u Rwanda, twirinda indwara ziterwa n'umwanda zirimo imiswi, Leta y'Igihugu cyacu yashyizeho ingamba zitandukanye hariho n'amazu ya girubuzima yubatswe mu midugudu, aho abaturage bagenda bagafata ubujyanama ku bijyanye no gukora isuku yo mu rugo no koza ibikoresho byo kuriraho kandi bagasukura n'ubwiherero.